Abana baba bagomba kubaho neza uko bishoboka iyo bakiri batoya kugira ngo bakurane ubuzima bwiza, bimwe mu byo baba basabwa iyo bakiri bato harimo kubona uburere bwo ku ishuri, ubumenyi mwarimu abaha, ndetse n'ibindi byinshi.

Abana batoya bajya ku ishuri, ariko iryo shuri ntabwo ariryo kubigisha imibare, cyangwa se ubundi bumenyi bw'isi, ahubwo aba ari ukubarera kugira ngo bakure baze kubana neza na bagenzi babo, babifashijwemo n'umwarimu cyangwa n'umurezi baba bari kumwe.

Bimwe mu bizakubwira ko ugeze ku kigo cy'amashuri, ni ukubona amazu ari ku murongo umwe, cyane cyane yubatse mu buryo bumwe, asa kandi ubona ko hari ikibuga cyo gukina.

Iyo amasaha yo gutangira ishuri ageze, ubona abana bose birukanka bagana ishuri, kugira ngo badakererwa mwarimu akaba yabahana ngo bakerewe, umwana akenshi aba afite igikapu mugongo kirimo ikaye n'ikaramu byo ajyanye mu ishuri, yaba umuhungu, yaba umukobwa bose barabigira.

Akenshi na kenshi usanga iyo umwarimu cyangwa umurezi ataragera mu ishuri, ngo atangire yigishe abanyeshuri ibyo yabateguriye, abana baba bari gukina mu ishuri mu buryo bwo kwidagadura, kwisanzuranaho.

Ibigo by'amashuri bigomba kugira aho gutera imbuto n'imboga byo kugira ngo bifashe imibereho y'ababa muri icyo kigo, yaba ari abanyeshuri cyangwa se abarezi babo cyangwa se ari abo, babafasha mu bundi buzima butari ubwo mu ishuri.

Abana bari ku ishuri bigera igihe bakajya mu kiruhuko bakajya gukina, barabanza bakiga kuva nka saa tatu kugera saa yine n'igice, bagakina iminota cumi n'itanu kugira ngo baruhure mu mutwe, bakaza gusubira mu ishuri gukomeza amasomo yabo bavuye kuruhuka.

Hari imikino itandukanye abana bakina, cyane cyane kugira ngo bimenyereze imibare, gukoresha ibimenyetso bitandukanye byo mu mibare nko guteranya, kugabanya, gukuramo, baba bifashisha ibikoresho bitandukanye bigaragaza iyo mibare.

Ntibikwiriye ko abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bibikira ibikoreshwa ba bafatiye ho amafunguro ya saa sita impamvu ni uko bitera umwanda mu ishuri ndetse n'akajagari kubaka ibikoresho biba binyanyagiye impande zose.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gutwara abanyeshuri ku ishuri, mu buryo bumwe, kugira ngo bagendere hamwe, batayoba, cyangwa se hatagira abasimbuka ntibajye ku ishuri, bakajya mu bundi buyobe bwo ku ruhande.

Umukino w'amaguru ni umukino abantu benshi bakunda. Kubera ko ntabwo aba ari kuwurebesha amaso bishimishije gusa, ndetse n'abakina nabo baba bashimishije. Bo ubwabo baba bari gukorera mo siporo, kandi bakaba bagomba kugera ku ntego bihaye.

Isomero ni kimwe mu byerekana ko hafi y'aho hantu cyangwa se aho ngaho hari ikigo cy'amashuri, isomero riba ririmo ibitabo abanyeshuri bashobora gutira kugira ngo biyungure ubumenyi bitewe n'ibyo bashaka kumenya.

Uburezi ni ikintu cyiza cyane, kimwe n'uko uburere ku bana nabwo ari ikintu cyiza cyane, rero umunyeshuri cyangwa umwana akenera umuntu wo kumwigisha, akenera umurezi ari we mwarimu cyangwa se umubyeyi, kandi biba byiza nk'iyo umwana afite imfashanyigisho, irimo nk'ikaye, amakaramu, n'ibindi akenera.

Leta y'u Rwanda ifite gahunda yo kubaka urubyiruko rujijutse kugira ngo abe ari bo Rwanda rw'ejo bazavamo abayobozi bazima bazayobora igihugu, ibyo ngibyo babigeraho banyuze mu mashuri.

Mu biranga ibigo by'amashuri hagomba kuba hari icyapa kerekana izina ry'icyo kigo, ndetse bikaba byiza berekanye ko, hari ikiberamo aho ngaho cyane cyane kijyanye n'uburezi ndetse n'icyiciro cy'icyo kigo.

Mu ishuri ni hamwe umuntu cyangwa se umwana cyangwa se umunyeshuri ajya kugira ngo agire ubwenge yiyongeye mu bumenyi yari asanzwe afite, ibyo ngibyo tubibonera ku kibaho umwarimu akoresha ari kwigisha abanyeshuri batandukanye baba baje.

Uburezi bwateye imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho bigaragarira ni igihe umwarimu cyangwa umurezi akoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo yereke abanyeshuri ibyo yabateguriye kubigisha, urugero rw'ibyo bikoresho ni mudasobwa.

Mu bigo by'amashuri yisumbuye, hari igihe abantu babasura bikaba ngombwa ko bahurira ahantu hamwe kugira ngo babaganirize. Icyo gihe umushyitsi mukuru araza akababwira aho bari buze guhurira bitewe n'uko ikigo giteye kugira ngo abone kubaganiriza.

Bimwe mu bizakubwira ko wageze mu ishuri cyangwase aho abanyeshuri bigira, uzabonamo ikibaho, ubonemo ameza ya mwarimu, aho abanyeshuri bicara, ndetse n'amakaye, n'amakaramu, ku kibaho ushobora kubona hari ibintu byanditseho cyangwase bitariho, gusa icyangombwa ni uko icyo kiba ari icyo kwigiraho, n'icyo kwandikaho.

Akenshi iyo bavuza itorero uhita wumva itorero rigizwe n'ababyinnyi, abaririmbyi, abakaraza ndetse n'abandi. Iyo bibumbiye hamwe bakorera itorero ribyina cyane cyane bakoze ikirori hakaba bakifotozanya n'abayobozi batandukanye kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso.

Muri uru Rwanda, ahantu henshi uzasanga ibendera ry'igihugu, biba bisobanuye ko aho hantu hakorerwa ikintu kijyanye n'iterambere ry'igihugu kandi biba bitabangamiye, aho hantu hagomba kuba hasa neza uko byagenda kose.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gusangira hamwe abanyeshuri bo muri segonderi n'abo muri pirimeri kugira ngo abatabona ifunguro mu rugo babashe gufungurira ku ishuri bakomeze amasomo yabo batari gusinzira, nta kibazo cy'inzara bafite.

Biba byiza iyo ikigo cy'amashuri runaka gishyizeho icyapa ku muhanda cyerekana cyangwa se kigaragaza neza ibijyanye n'icyo kigo. Urugero harimo ibyo icyo kigo cyigisha ndetse n'aho umuntu yababariza mu gihe ashaka kubavugisha atagezeyo.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'uko abanyeshuri bajya baririra ku ishuri, mu gihe cya nyuma ya saa sita, ndetse abiga baba ku ishuri bo, barya yo saa sita nijoro. Ibyo byose ni ukugira ngo uburezi bukomeze butere imbere, abanyeshuri baticwa n'inzara.

Kimwe mu bizakubwira ko ugeze mu icumbi ry'umuntu, uzahabona uburiri aryamaho, si uburiri gusa ubona n'ibindi bikoresho bitandukanye yifashisha mu buzima busanzwe nk'amavuta, iyo ari umuntu ukunda kurwara hari igihe aba afite ibinini, akaba afite telefoni.

Mu masomero menshi atandukanye haba harimo ibipapuro cyangwa se indangacyerekezo kugira ngo bayobore umuntu ukeneye gushaka igitabo muri iryo somero, akakibona mu buryo bumwihutiye.

Inzu y'ubushakashatsi, mu ndimi z'amahanga bita raburatwari, mu Gifaransa, ni hamwe muhantu tuba tugomba kwiyitaho, hakagirirwa isuku ndetse hakaba hari aho kubika ibyo dukoresha kugira ngo twirinde umwanda, ndetse tunarinde ko ha kwanduza abahegereye.

Mu nama, inama ibaho hari insanganyamatsiko bafite yo kuvugaho. Rero biba byiza iyo bamwe muri abo bayitabiriye batanze ibitekerezo byabo, kandi buri wese agahabwa amahirwe angana n'ayundi yaba umugabo yaba umugore, cyangwa se undi uwo ari we wese witabiriye iyo nama, agatanga igitekerezo cye cyangwa inyunganizi ye uko abyumva.

Mu nzu y'ubushakashatsi cyangwa se indi nzu iyo ari yo yose yo kubikamo ibintu, haba hakenewe umwanya wo guhagararamo ndetse n'urumuri, kugira ngo abantu bage babona icyo bashaka badateje akavuyo mu nzu yose.

Mu ishuri ni ahantu hagomba kuba hari isuku. Ikizakubwira ko ari mu ishuri haba hagaragara ikibaho mwarimu yandikaho, ndetse n'abanyeshuri bandikaho, hakaba hari aho abanyeshuri bicara, cyane cyane muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, hari aho bicara hakaba hari n'aho bandikira, by'umwihariko hakaba hari n'ameza ya mwarimu.